Umugabo uhagaze wifashe neza mu maboko wambaye ipantaro y'ubururu ufite imishumi ya oranje uri kwamamaza ubwishingizi bwa buritamu munzu nini cyane.

Inzu icuruza imyambaro y'abagabo n'abagore, imyambaro yanitse aho byabugenewe kugira ngo abakiriya baza kugura bayibone bafate iyo bifuza.

Inzu igurisha imyambaro ndetse n'inkweto ku bagore cyangwa ku bakobwa inyuma amakanzu meza y'abagore n'abakobwa acuruzwa muri ino nzu.

Ni isoko ryiza hasi risashe amakaro hejuru hari parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'ibicuruzwa bubatse akayetajeri ko mu biti ku buryo usanga buri gicuruzwa gipanze mu mwanya wacyo.

Urugi rw'amabara y'ubururu rwerekana aho bagurishiriza bakanakora amata mu mu karere ka Nyanza, aho banywera amata bakishyura ayo banyoye.

Imeza iriho igikombe kinini cy'amata y'inshyushyu, imbere hariho umugore ufite amafaranga mu ntoki, wicaye mu ntebe y'ubururu ufite igikapu cye mu ntoki, ugiye kwishyura ibyo amaze kunywa.

Umuntu ufite amafaranga y'amanyamahanga mu ntoki ya Leta zunze ubumwe za Amerika uhindurisha n'undi ubishinzwe ushinzwe kuvunjisha amafaranga.

Umugabo uhagaze ufite ikaramu mu ntoki, uri kwandika ku rupapuro rurerure rw'umutuku; yandika uburyo ivunjishwa ry'amafaranga yo mu bihugu by'abanyamahanga rigeze.

Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Umugabo uhagaze wambaye ijire y'icyatsi, wegeranye n'inzu ikorerwamo ivunjisha ry'amafaranga n'akabase karimo amazi y'aho bakarabira iyo winjiye muri iyo nzu.

Inzu y'amatara y'umweru n'irangi ry'umweru, n'irangi ry'umutuku, inyuma y'aho abakozi bicara hariho televiziyo ibabasha kubereka ibyo bakora.

Inzu irimo utubati tinini babikamo imyenda ndetse n'intebe nziza zitandukanye, zihari zo kugura, zigurishwa.

Igitanda kinini gikozwe mu mbaho gisizwe irangi ry'umutuku kiri ahantu bagurisha ibitanda bikoreshwa bijyana mu mazu yabantu.

Imeza nini ndende ifite igice kimwe cy'uburyo n'ikindi cy'ubumoso, zikozwe mu mbaho zijyamo inyamaswa z'amatungo magufi nk'urukwavu.

Akameza k'umuhondo kari ku makaro y'umweru gafite ibirahure bitatu by'imikara imbere yaho hari akandi kabati isa nka kagurishwa ku isoko.

Inzu nini mu zigezweho, iri imbere y'umuhanda wa kaburimbo, itatse amatara menshi yaka nijoro, n'imiryango myinshi ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Inzu nini irimo ameza menshi n'intebe zitatse neza z'amabara y'umukara n'udutambaro tw'umweru duteretseho ibinyobwa byiza bisa nk'aho byakiriye bigiye kwakira abakiriya.

Ubusitani bwiza, burimo intebe ndetse n'imitaka, igaragaza aho abantu bahurira baje gusangira, kuganira ku byo bashaka kuganiraho, ni ubusitani bwiza.

Inzu nini ifite pisine kuruhande, ikikijwe n'intebe, n'umutaka w'umutuku hamwe n'imitaka y'umukara, ikikijwe n'inkingi ziriho ibyuma ndetse iyo nzu nini isizwe amarangi y'umweru n'ay'umutuku.

Inzu nini y'amabara menshi meza y'umuhondo, ikikijwe n'ibiti by'icyatsi birebire, imbere hari ikidende cy'amazi asa ubururu.

Inzu nini y'ubwishingizi bwa u a pa ku ruhande hari amasikariye maremare, cyane inzu nini umuntu ugiye kwinjiramo bisa nkaho ikorwa ubwishingizi.

Umuryango w'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'umugore wambaye agapira k'ubururu n'agatambaro mu mutwe ndetse n'amarineti mu maso n'umwana ufite akagitari mu ntoki papa we amuteruye.

Ibiribwa byinshi biherereye mu nzu icuruza ibiribwa mu isoko, aho hari ihuriro ry'abantu benshi bari bari kugurisha ndetse n'abari kugura ibyo biribwa mu isoko.

Umugore ufite igitambaro cy'ubururu mu mutwe, ufite igikapu, uri gutunda amacunga ayavana mu gitebo ayashyira mu gikarito, yambaye inkweto z'umukara.

Umugore uri imbere wambaye igitambaro cy'icyatsi mu mutwe, uri gucuruza imyenda izwi nk'amasogisi cyangwa imyenda y'imbere; mugenzi we uri kugura n'inyuma ye nawe ari kugura bari ku muhanda.

Isoko rinini ry'igisenge cy'ubururu bacuruzamo ibiribwa birimo inyanya ,ibitunguru puwavuro ririmo abantu benshi baje guhaha n'abari gucuruza ibyo biribwa .

Isoko rinini ririmo abaje guhaha ndetse n'abacuruza ibiribwa n'ibindi bikoresho ,ibicuruzwa biri mur isoko hariho icyapa gikoreshwa ushaka kwishyura akoresheje telefoni .

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare wambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero ku mutwe waje gusaba serivisi, umukozi wo muri emutiyene ugiye kumufasha bitewe na serivisi ashaka.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Umugabo wambaye umupira urimo amabara y'umweru na oranje ndetse n'umukara ufite igitabo mu ntoki wagannye ishami rya emutiyene rimwegereye, mu gihe umukozi wa emutiyene ufite terefone mu ntoki wambaye amarineti ufite ikibazo cy'amaso, wambaye agapira ka emutiyene.

Inzu nini ifite igisenge cy'umutuku igurishwa i Batsinda-Kagugu y'ibyumba bine na dushe ebyiri, igurishwa ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda.

Inzu nini y'umweru yubatswe mu nzu zigezweho y'amarangi y'ubururu, iri mu busitani bwiza harimo ibiti birebire by'icyatsi ndetse ifite n'igisenge hejuru.

Inzu nini mu zigezweho nziza nini itatse amabara y'umweru n'imiryango y'imikara ndetse hasi hameze neza hubatse neza, igurishwa Kimironko.

Inzu igurisha ibiribwa biri mu mifuka y'imyeru, ibiribwa byinshi, aho abantu baza kugura bagahurira n'abagurisha ibyo biribwa.

Ihuriro ry'abantu bitabiriye imurikagurisha ryabereye ahatandukanye, aho harimo abambaye imyenda y'imyeru, amapantaro y'umukara, umugore uhetse igikapu cy'umukara wambaye imihondo.

Imurikagurisha aho umuntu ari gucuruza ibigurishwa, ndetse hari n'abantu baje kugura ibyo bigurishwa bahagaze ari benshi bategereje ko babakira ngo batahe.

Abagore bafite amakaye mu ntoki bafite n'ibikapu byabo mu ntoki ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe bafite impapuro, basa nk'abagiye kwakirwa mu nama itandukanye cyangwa mu gikorwa gitandukanye.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Isoko rinini ririmo zimwe zigezweho zibatwaramo ibintu bakoresheje utugare duto tw'amapine atatu bacuruzamo ibinyobwa ibyo kurya ndetse abantu benshi baje guhaha.

Isoko rinini ricuruzamo ibiribwa n'ibikoreshwa bari guteka ibiribwa rinini riri mu nzu itatse amatara menshi hariho ibifashe ibyo biribwa.